Iki cyo ni igiterane n'umugabo afite mikoro ari kuvuga ijambo aho ateraniye hamwe n'abandi bantu bamuteze amatwi, ari gutanga ubutumwa kandi ubutumwa ari gutanga ni ubw'ingenzi urabona ko yambaye neza nk'umuntu uri gutanga amakuru kandi y'ingenzi.

Ababyeyi bari hano mu nama babahaye amatara, amatara abafasha kumurika kugira ngo be kuba mu mwijima, bambaye bose imipira y'imikara, imipira y'imikara yanditseho, harimwo abari kubayobora hari n'abandi baturage babicaye imbere, ni byiza burya iyo abantu bakoze inama.

Umugore n'umugabo bari muri siporo, siporo ni nziza, zituma igabanya ibinure mu mubiri, igatuma umubiri ukora neza, urabona ko bari muri siporo, umugabo yambaye renete, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umugore nawe yiyambariye isaha bari muri siporo.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru, ari mukibuga, ari kuri sitade afite umupira, arikuwutera, yambaye amagezi y'umuhondo, amasogisi y'umuhondo ariko nta bafana bahari ari kuri sitade ari kwitoza urabona ko kabirimo neza.

Aba bana barimo gukina umupira, bari gukina bisanzwe umupira wamaguru., bari kurushanwa batatu umwe yambaye ama jezi yambaye amasogisi n'inkweto, ari gucenga abandi bana bari gukina, uyu mwana urabona ko abirimo neza ejo hazaza he yazaba umukinnyi w'amaguru w'umupira w'amaguru.